Inzu gubatse neza, itatse amabara gatandukanye, ikindi kandi, abantu basohokeragamo bagiye kuruhuka mu bwonko, haba hari ababyinnyi, intore ziba ziri guhamiriza.

Inzu gubatse neza bacuruzagamo ibintu bitandukanye, harimo imyenda zifite amabara gatandukanye, amashuka na go garatandukanye ,abantu bicaye bari gucuruza.

Amashapure bari kugagurish，ikindi kandi amashapure gakoreshwa iyo abantu bari gusenga，kandi amashapure gafite amabara gatandukanye.

Inzu irimo ibicuruzwa bitandukanye harimo:amavuta go kwisiga, umubavu go kwitera ndetse harimo n'uturimbo abakobwa bambaraga two kurimba.